Mu nzu iberamo inama, abantu bicaye mu ntebe, imbere yabo hari amacupa y'amazi n'indangururamajwi, haka amatara, ku bikuta biciyemo imirongo y'umweru.

Imodoka y'ikamyo ifite amapine icumi ifite contineri hejuru y'icyatsi, ifite igitwe cy'imodoka cy'umutuku yanditseho agitorosi.